Abasirikare n'abapolisi ni abantu bashinzwe umutekano, kubungabunga umutekano w'abaturage, baje ahantu hose hatandukanye bareba uko umutekano umeze, aho asanga umutekano atari mwiza bakawubungabunga.

Inama ni igikorwa cyiza cyane, kiba gihagarariwe n'abayobozi n'abashinzwe umutekano aribo basirikare n'abapolisi, abasirikare rero bashinzwe umutekano baraturinda, bakaturinda kugira ikibi cyose cyatugeraho, abasirikare turabakunda ni intwari baratureberera ku manywa na nijoro.

Umutekano ni ingirakamaro ku gihugu cyacu, abasirikare beza turabakunda bashinzwe umutekano kureberera abaturage aho ruteyeho harutera bakarwana, bakaturwanirira kugira ngo tubeho mu amahoro, abaporisi nabo ni uko mu gucunga umutekano w'abaturage mbese tukabaho tumeze neza kandi dufite ingabo z'umutekano aho ziherereye hose.

Abapolisi n'ingabo z'umutekano, bashinzwe umutekano w'igihugu, kureba uko abaturage bameze bakabungabunga umutekano w'abaturage, abapolisi kandi bagenda ahantu hatandukanye bajya kureba aho umutekano utameze neza babungabunga abaturage.

Abapolisi n'abantu bashinzwe inzego z'umutekano, babereyeho gufasha abantu mu kubayobora mu buryo bukwiriye no kubakiza amakimbirane hagati yabo abapolisi rero bakunda.

Abapolisi n'abasirikare, ni abantu bashinzwe umutekano, bakunda kwita ku baturage, bakabareberera, nta muntu wajya kubatesha umutekano, kandi abasirikare n'abapolisi bahari. Abaturage bakunda abasirikare cyane, bagakunda n'abapolisi, kuko iyo bajya bababona hafi yabo, bumva nta mpungenge bafite.

Imodoka ni ikinyabiziga cyagenewe gutwara ibintu n'abantu ku buryo bworoshye. Rero ku muhanda haba hari urujya n'uruza rw'abantu benshi n'ibintu, bajye gutega cyangwa se bajye gutegera ibintu, ngo bigende mu modoka bigere iyo bijya ku buryo bworoshye

Polisi ni ingabo z'umutekano zishinzwe kugenzura umuturage ndetse no kubungabunga umutekano w'igihugu, aho bari haba harangwa umutekano nta macakubiri, bakemura abapolisi bakemura amakimbirane mu baturage, umutekano ukaboneke.

Camera ni igikoresho gikoreshwa mu gufata amashusho y'ibintu bitandukanye, camera rero yifashishwa mu gucunga umutekano aho ibintu biri kugenda neza, naho bitagenze neza ikabifata, bityo abashinzwe umutekano baza kureba muri camera bakabona aho ikibazo cyabereye, bakabona nubwo babasha kugikemura

Inama ni ahantu hahurira abantu batandukanye, bashaka kugira imyumvire imwe hari icyo bashaka kwiga, usanga hari abashinzwe umutekano n'abayobozi bagahuriza hamwe ibitekerezo, bakabasha kugera ku ntego y'icyo bashaka kuvuga, iyo habaye inama rero haba hari urujya n'uruza rw'abantu bafite n'amazi.

Inama ni ikiganiro gihuzwa cyangwa gikorwa n'abantu benshi bafite imyumvire itandukanye, bashaka kugira ngo bagire imyumvire imwe kuri icyo kintu, haba haje abantu benshi bashima.

Ibyibo bikoreshwa mu muco gakondo bashaka gusura umuntu noneho inkangara, nayo igakoreshwa nk'iyo bagiye gusura umugeni noneho igicuma nacyo gikoreshwa bashyiramo inzoga.

Isekuru ni igikoresho gikoreshwa mu rugo, gisekura ibintu basekura isombe, cyangwa se basekura amasaka bakuramo inkumbi, basekura ibivunde bashaka gukuramo ifu. Isekuro n'igikoresho gikoreshwa ibintu bitandukanye bijyanye no gusekura bakoresheje umusekuzo wayo, abantu benshi barayikunda isekuru nta rugo rutayigira.

Icyibo gikoreshwa mu mucyo nyarwanda, bakifashi mu mitako ndetse basura, bakacyifashisha mu kubyina batanga impano, mbese icyibo kitugirira akamaro kanini cyane, bitewe n'uko gifite imirimo myinshi gikora, kandi abaturage bose baragikunda.

Umuvure ni igikoresho gakondo, dukunze kwifashisha mu gukama ibitoki, no gushyiramo urwagwa, cyangwa se ikirago nacyo kifashishwa mu bihe bitandukanye ikirago kukiryamaho...

Umuvure cyangwa se indemberi ni igikoresho gakondo gikoze mu giti. Cyifashishwa mu gihe bari gukama ibitoki noneho barangiza gukama bagakora bagakora urwina, bagatara urwagwa rwo mu bitoki bakazarunywa bifashishije agacuma.

Umuvure ni igikoresho kibajijwe mu giti, bakoresha barimo gukama ibitoki. Ugasanga bari gutonora, bashyiramo, abandi bari gukama. Haba hari abantu batari benshi bari gutonora ibitoki, hari n’abandi bari gukama, bagakora umutobe. Barangiza kubona umutobe, bagatara mu ndemberi, mu rwina.

Icyibo ni igikoresho gikoreshwa ibintu byinshi bitandukanye: ugiye nko gusura umuntu ugashyiramo nk'ibishyimbo, ukajya gusura umuntu cyangwa se kubikamo ifu, cyangwa se kugikoresha nk'umutako. Urunigi abagore bakunda kurwambara mu ijosi, bararukunda cyane cyane nk'iyo habaye ibirori. Rero icyibo n'urunigi bikoreshwa mu buryo bw'imisango.

Inkono ni utubindi twakoreshwaga mu guteka. Ibiryo bitetse mu gakono byabaga biryoshye cyane. inkono ni nziza rero ziteka ibiryo neza zikabihumuza. Abantu bateka mu gakono gakozwe mu kabindi, barya biryo biryoshye. Mu mugi bakunda izi nkono.

Nyirarunonko ni ifuru nto cyane. Yubakwa hakoreshejwe ibinombe, yamara kuzura, bakayicanamo umuriro. Igashya igatokombera, igahinduka umukara. bagashyiramo ibyo kurya bakayihura.

Intore ni ababyinnyi b'igitsina gabo bakina bambaye amayugi, bambaye n'udushana, noneho bagakina intore, bakazikaraga koko ukabona ibintu ni byiza, bakunda gukinira nk'iyo habaye ibirori cyangwa se habaye imisango itandukanye, noneho intore zikifashishwa mu birarori.

Umuco wahozeho, rero kubyina indirimbo zijyanye n'umuco bishimisha abantu benshi iyo bari kuvuga babyina binanura, bigorora, bagaragaza umuco w'agace batuyemo biba ari byiza cyane. Abantu benshi bakunda umuco wabo rero niyo mpamvu usanga abantu bafite umuco umwe bakundana cyane.

Umuduri ni igikoresho gikoreshwa baririmba indirimbo gakondo, aho usanga bagicuranga bavuga indirimbo runaka, aba bantu bakunda kugenda mu muhanda binjira mu makabari, aho bageze hose bacuranga.

Imbyino gakondo ni nziza cyane abantu bakunda kubyina imbyino gakondo bakunda kubona amafaranga bitewe nuko bahanga indirimbo zijyanye n'umuco waho baherereye bityo bigatuma babasha kubona amafaranga. Kandi kureba imbyino gakondo biranashimisha, kubona umugabo wakenyeye umushyanana agashyiramo umukenyero akambara rugabire akajya kubyina imbyino gakondo.

Umuvure cyangwa se indemberi ni igikoresho gakondo cyagenewe gukamirwamo, bakamiramo nk'ibitoki bashaka kugira ngo bakore urwagwa, ishinge rero niyo bifashisha bari gukama.

Urugori ni umurimbo bambika abagore, nko mu gihe cy’ibirori. Noneho abagore usanga basa neza. Niba agiye nko gusezerana, usanga yambaye urugori rutatse bw’amasaro, rumeze neza, biboneza umugeni.

Intore ni ababyinnyi b'abagabo bakunda gukubyina, intore aho usanga habereye nk'imisango y'ubukwe mu birori bitandukanye mu nama, bakaza bagakina umugara bakahakina intore ko kuko bakahakina usanga bakunzwe n'abantu benshi babyinambye n'agakobwa.

Inigiri ni igikoresho bifashisha gakondo cy'umuco, bari gucuranga indirimbo z'umuco, bitewe n'ahantu baherereye, abantu bakunda iningiri bakunda no kuririmba indirimbo za gakondo zijyanye n'umuco. Izi ndirimbo abantu bazikunda ari benshi kubera injyana yazo n'ukuntu ziba zitonze ziri kugenda zitonze.

Igikorwa cy'ubuhinzi ni cyiza cyane, abantu bakunda guhinga baba ari abantu bafite imbaraga, bagira amasuka meza cyane y'imijyojyo, aho umuntu ahinga imbere ye, bakundaga guhinga ari amashirahamwe, aho wasangaga bari guhinga ikinani bakidumuye, bagahinga kuko. Ugasanga bahinze ahantu hanini, abantu bakunda guhinga nabo rero, ni abantu binjiza amafaranga cyane.

Imitiba ni imitiba yagenewe kubamo inzuki usanga hari uruhuri rw'inzuki, zigakora ubuki igihe cyagera bagahakura ubuki buba buhenze cyane usanga buboneka hake cyane kuko usanga atari abantu benshi bagira ubuki.

Umuduri ni igikoresho gakondo cyagenewe gucuranga iyo bahimba indirimbo gakondo. Abantu bakunda gukoresha imiduri bakunze kujya ahantu mu tubari bakaririmba, bakagenda babaha ibiceri. Kandi abantu bakoresha imiduri, bagenda aho bari ububona ari abahanzi bashimishije.

Intebe nziza cyane bakunda kuzitegura muri salo. Kandi intebe nziza iyo baziteguraga muri salo abantu bazicaragamo bakaba bamerewe neza zigendanye n' umuco. Umuco gakondo rero wubahwe.

Isekuru ni koresha gakondo cyagenewe gusekura ibintu nko gusekura isombe hakoreshejwe umusekuru noneho intebe intebe hari intebe gakondo zagenewe kwicaraho zikunda kwicaraho abasaza indemberi cyangwa umuvure ni igikoresho nacyo gakondo cyagenewe kwengegwamo inzoga.

Isekururo ni igikoresho gakondo, gikoreshwa iyo bari gusekura isombe, cyangwa basekura ibintu runaka bitandukanye, bagamije nko gusekura amasaka cyangwa ingano, hagamijwe gukuramo amaroko cyangwa inkumbi, gusekura isombe cyangwa gusekura ibivunde ngo bakuremo ifu. Imyuko rero cyangwa se utumamiro natwo twifashishwa nk'iyo bari guteka imboga bashaka kwarura.

Intango ni ikibindi cyabaga giteretsemo inzoga, cyane cyane inzoga yabaga ari iy'imisango. Noneho bakaza guhamagara abakuru batumije ibirori bibaho nk'abasaza, bazaga kunywera muri iyo ntango, basomeshaga umuheha cyangwa se umuseke.

Ikiraro ni aho bororera amatungo atandukanye inka cyangwa se intama, rero mu kiraro baba barashyizemo ifumbire bagatindura ifumbire rimaze kuboneka bakaba barihingisha imyaka.

Abakaraza ni abantu bavuza ingoma, baba bazi kuzikaraga cyane. Bagakunda gutumirwa ahantu habaye ibirori kugira ngo babavugirize ingoma. Kandi abakaraza bakunze kuba bazi gukina n'umugara bambaye imigara mu mutwe, barangiza bakavuza ingoma bambaye n'amayogi, bambaye n'imishanana.

Icyansi n'igikoresho abakuru bakoreshaga babikamo amata. Icyansi kibika amata neza, abantu bakunda kugira inka nicyo bajya bashiramo amata, yamara kuvura bakayanywa cyangwa se bakayareka bakazakoreramo amavuta. Amata yamaze iminsi mu cyansi bayakoragamo amavuta.

Ipompo ni igikoresho cyiza cyane cy'iterambere, bagikoresha bari gutera umuti mu bihingwa, bashaka kwicamo udusimba, ipombo rero ni nziza cyane abantu barayikunda cyane, kuko ikoreshwa ibintu byinshi bitandukanye mu guteramo umuti.

Abahanzi bahanga indirimbo gakondo bakoresha ibikoresho by'inanga. Inanga rero ni igikoresho gikoreshwa mu ndirimbo gakondo, aho usanga baririmba indirimbo zijyanye n'umuco gakondo bacuranga inanga. Abantu bakoresha inanga gakondo rero babona amafaranga kandi bakunda kuryoshya ibirori.

Isekuro ni igikoresho gakondo gikoreshwa n'abantu benshi batandukanye mu gusekura ibintu, aho usanga isekuro bashyiramo isombe bakayisekura bakoresheje umusekuzo, noneho ikavamo yabaye imboga abantu bakaziteka, cyangwa ugashyiramo ibivunde ugasekura ugakuramo ubugari, bityo isekuro ni nziza cyane abantu bose barayikunda.

Ibishyimbo ni igihingwa cyiza cyane kugihinga n'ugukoresha inyongeramusaruro kugirango ubone umusaruro uhagije, rero iyo byeze abantu baragenda bakabirandura bakabihura, abagore bakabigosora, bamara kubigosora bakabishyira mu mifuka, bakajya kubigurisha cyangwa se bakabishyira mu rugo bakazajya baryaho bike bike, bitanga amafaranga ku miryango yabihinze.

Indembe ni igikoresho gakondo gikoreshwa barimo gukama ibitoki. Inshinge bayikoresha bari gukanda ibitoki ngo bakuremo umutobe. Insina na zo rero ni igikoresho, ni igihingwa cyiza cyane gitanga umukamo w'umutobe n'urwagwa, biturutse mu bitoki, ndetse no ku nsina, insina abantu barazikunda cyane.

Inanga ni igikoresho gakondo cyakoreshwaga bacuranga indirimbo gakondo, bashaka kugira ngo babe bari kwishimisha. Abantu bacuranga inanga rero, baba baragoroye intoki, bazi kuzigendesha neza, ukumva injyana irimo iragendana n’indirimbo neza.

Mu umuco gakondo abantu bakundaga kwambara imyenda ijyanye n'umuco w'aho baherereye. Abantu bakundaga rero imyambaro nk'imikenyero bayambara igihe babaga bagiye mu bukwe bwo gukwa, abashaka kujya kuzana umugeni, abakobwa bambaraga imikenyero cyangwa abasore bakambara imikenyero, babyambaraga bitewe n'umuco w'agahugu kabo.

Umwirongi bawuvuza bashaka kuvuza imyato bashaka kuvuza cyane cyane iyo bavuzaga umwirongi habaga hari abantu, hari ibirori bari nko kuririmba indirimbo zijyananye n'umuco abantu benshi barawukunda, umwirongi wera mu giti gikunda kuba kiri ku ruzitiro, iki giti abantu baragikunda

Intore ni abantu babyina indirimbo cyangwa se babyina indirimbo gakondo z'umuco w'ahantu baherereye, abantu bakunda kubyina izi ndirimbo abafite amacumu, bakunda kuzibyina bafite n'imiheto, ndetse abandi bakunda kuzibyina bambaye amayugi , abagabo bakunda kubyina izi ndirimbo babona amafaranga menshi.

Abakaraza ni abantu bavuza ingoma, bagakanda kuzivuza cyane iyo habaye ibirori gakondo, kandi ikindi abakaraza bakunda kuvuza ingoma cyane mu nsengero no mu kiliziya, nko mu gihe habaye iminsi mikuru, abantu barabakunda cyane iyo bari kuzivuza.

Intango n'inzoga yabaga iba irimo kibindi, aho hagiye kuba wenda nk'imisango y'ubukwe, bagatereka ikibindi bakagisukamo inzoga n'ikigage noneho bagatereka ku kirago abantu bakaza bakicara none igihe kimwe misango cyagera, bagahamagara abantu bakuru bakaza gusogongera.

Igiko ni igiti gikunda kugira amahwa, abantu bakunda kukizitiza ku nzira, kugira ngo batabasha kubonera. Rero indabo z'igiko ni nziza cyane, zivamo n'umuti ukomeye uvura indwara zitandukanye, rero igiko abantu benshi baragikunda.

Umugozi ni mwiza cyane, wifashishwa mu buryo bwo gucagiga ibikoresho by'itumanaho, bawucomeka ku mashanyarazi kugira ngo umuntu arahure umuriro, abashe kugira umuriro.

Toronovisi ni igikoresho gikoreshwa mu mashanyarazi, aho baba bashaka nko gukuramo ikintu cyangwa se kugishyiramo, bagiye gufunga cyangwa se gufungura bakifashisha igikoresho cya Toronovisi.

Ipensi n'igikoresho bakoresha bari gukeba ibintu cyane cyane ipensi bayikoresha nk'iyo bari gukeba insinga nko mu mashanyarazi bari kuyesitara baracyifashisha. Iyi pensi barayifashisha ikagenda ikeba utwuma twananiranye no gukomeza ibintu.

Inzu ni inyubako yagenewe gukorerwamo imirimo itandukanye, nko gukorerwa umukuru w'icyicaro cy'ubuyoboz,i urusengero. Urusengero rero ni ahantu hahurirwa n'abantu benshi batandukanye, ariko bahuje imyemerere, baje guhamya Imana yabo. Ubuyobozi rero ni inzu yagenewe kuba icyicaro cy'ubuyobozi, igafata imyanzuro igakemura n'ibibazo by'abaturage.

Ibikorwa remezo harimo n'amazu, inzu cyangwa se urusengero ni ahantu hasengerwa n'abantu batandukanye, ariko bafite imyemerere ihuje, uhasanga urujya n'uruza rw'abantu, abasore n'inkumi, abagabo n'abagore, abakecuru n'abasaza bahuje imyemerere.

icyapa usanga ari ikimenyetso cyashyizwe ku muhanda, kugira ngo kibashe kuyobora abantu baje cyangwa se bagiye ahantu, ko hari impamvu bagomba kwitonda icyo cyapa rero iyo bakigezeho umuntu azigisoma amenya icyo agomba gukora.

Urusengero ni rwiza cyane kuko rufasha abantu basenga Imana gusobanukirwa ijambo ry'Imana, bakaryumva iyo baryumvaga bararikundaga ndetse umuntu usenga Imana yumva yuzuye iby'urukundo rw'imana, ntabwo ajegajega kuberako aba yararyohewe n'ijambo ry'Imana, yumva akomeye.

Kiliziya ni ahantu basengera bakumva ijambo ry'imana abantu bakunda gusenga bazabona umugisha. Kiliziya rero ziradufasha zidufasha kumva ijambo ry'Imana, no gusobanukirwa urukundo rw'Imana.

Mu musigiti ni ahantu abayisilamu basengera bajya gusara, bakavuga imana zabo bagasenga muhamedi mbese bakumva baguwe neza. Iyo bahageze abagore n'abakobwa abasore n'abagabo baba bumva baguwe neza, kubera imyemerere yabo bagasara bakumva buzuye neza.

Amatafari ni amabuye babumba mu byondo, barangiza bakayatwika akaba ari amatafari ahiye, cyangwa se adahiye. Bakayakoresha bubaka inyubako zitandukanye, nko kubaka insengero, kubaka inzu z'ubucuruzi, n'ahandi hantu hose hatandukanye. Amatafari rero aba akunzwe, inzu zubatswe n'amatafari ziba zikomeye cyane.

Inzu ni inyubako yagenewe gukorerwamo ibintu bitandukanye nk'ubuyobozi, ku nzu z'ubuyobozi rero hahora urujya n'uruza rw'abantu benshi, bajye kugisha inama k'ubuyobozi ari abafite ibibazo bose...

Amapironi ni inyubako cyangwa se iminara yagenewe gutanga no kujyana umuriro w'amashanyarazi mu nsinga zitandukanye no mu duce dutandukanye, usanga ari ingomero, ahantu hari ingomero y'amashanyarazi, aho amashanyarazi agera akaruhukira mbere y'uko akwirakwizwa mu duce dutandukanye.

Urusengero ni inzu yahariwe gusengeramo Imana, hagahuriramo abantu benshi batandukanye ariko bahuje imyemerere. Usanga rero mu rusengero hari abantu bahuje imyemerere, amakorali akaba yahahuriye arimo kuririmba, haba hari urujya n'uruza rw'abantu baje kuririmba.

Insengero ni inzu zahariwe gusengerwamo, abantu bahuje imyemerere. Bityo, bahurira hamwe ku munsi runaka wagenwe, bakajya gusenga Imana. Haba hari urujya n’uruza rw’abantu bahuje imyemerere: abasore n’abakobwa, abasaza n’abakecuru, abagore n’abagabo, bitewe n’imyemerere bafite.

Inzu ni inyubako zagenewe gukorerwamo ibintu bitandukanye, nko kuba zabamo ibyicaro by'ubuyobozi, cyangwa se insengero. Urusengero rero ni ahantu hahurira abantu benshi bahuje imyemerere, bagamije guhamya ukwemera kwabo, cyangwa se kiliziya na ho ni ahantu hahurira abantu bahuza imyeyemerere kuba ari abogatulika baje gusenga Imana.

Ikiliziya ni ahantu hahurira abantu benshi batandukanye baje gusenga bafite imyemerere y'abakatolike, urusengero ni ahantu hahurirwa n'ubundi n'abantu batandukanye bafite imyemerere ihuje, nk'abaporoso, abangilikani cyangwa se abarokore, bakahahurira bagamije guhamya ukwemera kwabo.

Urusengero ni inzu zahariwe gusengeramo abantu bafite imyemerere ihuje nk'urusengero rw'abangirikani, urusengero rw'abarokore n'urusengero rw'abahakanyi. Abantu bahuje imyemerere noneho bagahurira hamwe bakavuga ijambo ry'Imana.

Inzu, cyangwa se inyubako, ni ibikorwaremezo byagenewe gukorerwamo imirimo itandukanye, nko kuba haba icyicaro cy’ubuyobozi runaka, ubuyobozi bw’Akarere cyangwa se ubuyobozi bw’Intara. Hakajyamo abayobozi bagamije gufasha no gukemura ibibazo by’abaturage. Hakunze kuba hari n’inzego z’umutekano. Hari abantu bakira abaje, hakunda kuba urujya n’uruhaga rw’abantu.

Inzu ni inyubako zagenewe gukorerwamo ibintu byinshi bitandukanye, cyane nk'inzu zagenewe kubika umusaruro, usanga abaturage bajya gusarura imisaruro yabo, bakaza guhunika mu nzu zagenewe guhunika.

Urusengero ni inzu yagenewe gusenga Imana ihuriramo urujya n'uruza rw'abantu bahuje imyemerere, bafite imyemerere yo kuba ari abakatorike, imyemerere yo kuba ari abayisiramu, imyemerere yo kuba ari abarokore. Bitewe n'imyemerere yabo ni ahantu hahurira abantu benshi bahuje imyemerere.

Inzu ni ibikorwa remezo byagenewe gukorerwamo imirimo itandukanye, cyane nk'inzu ikorerwamo imirimo y'ubuyobozi. Usanga harimo akabati. Akabati kabikwamo ibikoresho bitandukanye by'ubuyobozi, ugasanga harimo imashini ifotora n'ibindi bitandukanye.

Inyubako ni ibikorwaremezo by'ibihugu bitandukanye, harimo insengero zikoreshwa mu gukangurira abantu ijambo ry'Imana. Abantu bakunda kujya gusenga, usanga bafite imibanire myiza mu bandi, bumva indangagaciro z'umukirisitu.

Ipironi, ni ipironi riba ryarahariwe gutwara umuriro w'amashanyarazi bawujyana hamwe ujya ahandi, ipironi rero ryifashishwa cyane mu murimo w'amashanyarazi, bakaba bagomba kurinda abana kugira ngo batahakubaganya, ahantu hari umuriro.

Inzu ni ibikorwaremezo byagenewe gukora ibintu bitandukanye n'insengero, urusengero ni ahantu hahurirwa n'abantu benshi bahuje imyemerere, bagamije guhamya Imana yabo, ndetse ukwemera kwabo, noneho hakunze kuba amahema, amahema y'ibirori akunze kuba ari meza cyane ahenze, imodoka zitwara abantu, haba hari urujya n'uruza rw'abantu benshi.

Urusengero ni rwiza cyane cyangwa se kiliziya bidufasha gukangurira abantu kwizera ijambo ry'imana, no gusobanukirwa buri wese usenga agomba kuba azi Imana, kandi akaba azi indangagaciro zigomba kumuranga nk'umuntu usenga Imana, dusenga Imana kuko ari nziza.

Inzu ni inyubako zagenewe gukorerwamo ibintu byinshi bitandukanye, nk'ubuyobozi, amasoko. Inzu z'ubuyobozi rero zo zikunda kuba zifasha abaturage mu........

Inzu ni ibikorwa remezo byagenewe gukorwamo ibintu bitandukanye, nk'amashuri, insengero, ndetse n'amasoko. rero insengero ni ahantu hasengerwa abantu bahuje imyemerere, amashuri ni ahantu bigira bagatangira amasomo atandukanye, insengero rero ku nsengeraro hakunze kuba hari urujya n'uruza rw'abantu.

Inzu ni ibikorwaremezo byagenewe gukorerwamo ibintu bitandukanye nko gusengeramo, ku rusengero rero haba urujya n'uruza rw'abantu benshi baje gusenga, bahuje imyumvire n'imyemerere.

Inyubako, ibikorwa remezo bitandukanye, harimo nk'insengero insengero, ni ahantu hahurira abantu benshi batandukanye bahuje imyemerere, bagamije kuvuga ku myemerere ya bo no gusenga Imana.

Inzu ni inyubako zagenewe gukorerwamo ibintu bitandukanye, nko kuba haba urusengero, hasi bahasengera Imana, hagahurira abantu bahuje, imyeyemerere igamije gusenga Imana cyangwa se bakahahurira bafite ikindi kibahuje, bitewe n'imyemerere ya bo.

Inzu ni inyubako yagenewe gukorerwamo ibintu byinshi bitandukanye, nk'ubuyobozi. Noneho ugasanga inzu wenda yagenewe gukorerwamo ubucamanza, abantu bakajya bahagana bafite ibibazo bitandukanye, bakababuranisha hakabonekamo uwatsinzwe ikibazo cyabo kigakemuka.

Inyubako ni ibikorwaremezo bitandukanye nk'insengero, insengero ni ahantu hasengera abantu bahuje imyemerere, haba hari urujya n'uruza rw'abantu, abaje baje gusenga, n'abaje gusengesha, baba ari abantu benshi batandukanye bahuje imyemerere.

Urusengero ni ahantu hahurirwa n'abantu benshi batandukanye ariko bahuje imyemerere. Bagamije guhamya ku kwemera kwabo. Kiriziya naho ni ahantu hahurirwa n'abantu benshi, bahuje imyemerere yo kuba ari abagatorika.

Kiliziya ni inzu yagenewe gusengerwamo, hakurikijwe imyemerere y'abakatolike, hahurira abantu bahuje imyemerere y'abakatolike, bakahasengera bunguranrana ibitekerezo ku ijambo ry'Imana, padiri akabasomera misa abakirisitu bagataha banezerewe.

Inyubako ni ibikorwaremezo byagenewe gukorawamo ibintu bitandukanye. Cyane cyane inzu z'ubuyobozi, zo gusengerwamo cyangwa se gukoreramo imirimo y'ubuyobozi. Aho usanga nk'inzu zagenewe gukorerwamo imirimo ya leta z'ubuyobozi ,hari abashinzwe umutekano n'abayobozi.

Inama ni ikiganiro gikorwa n'abantu batandukanye batuye mu bice cyangwa bahujwe n'umurimo runaka hagamijwe kugira imyumvire imwe baharanira uburenganzira bwabo, baharanira uburenganzira bwabo ndetse n'ubutabera hagati muri bo.

Inama ni ikiganiro gikorwa n'abaturage cyangwa se abantu runaka, bagamije kugira imyumvire imwe ku kintu barimo baganiriraho, uburenganzira bw'umuntu ku giti cye cyangwa se kugaragaza ubutabera hagati muri bo.

Inama n'ahantu hahuriyeho abantu benshi batandukanye, ariko batuye mu gace kamwe bashaka kuvuga ku myemerere yabo no ku burenganzira bwabo. Noneho bagasobanurira buri muturage wese akamenya uburenganzira bwe ku buryo atahohoterwa, mu nama rero zikunze kubera kunzu z'ubuyobozi, nko ku kagari cyangwa se ku mirenge n'ahandi hatandukanye.

Imodoka zitwara imizigo ni nziza cyane, abantu barazikunda kuko zibafasha kubona ibyo bakeneye bivuye kure mu buryo bworoshye. Imodoka rero zitwara imizigo zikunda gukoresha igihe gitoya gusa zigenda ziremeye ntabwo zigenda cyane urebye kuko ziba zavunitse.

Imodoka ni ikinyabiziga gikoreshwa mu buryo bwo gutwara abantu n'ibintu. Imodoka rero zikunze gutwara abantu zibakura ahantu hamwe zibajyana ahandi ku buryo bworoshye, ugasanga rero abantu ari urujya n'uruza rw'abantu baje bafite ingendo zitandukanye, baje kugenda mu modoka.

Motomodoka ni igikoresho gikoreshwa mu gutwara ibintu, aho usanga gitwara imizigo itandukanye, bityo abantu benshi baragikunda kuko ntabwo kigora mu kuba cyagurwa kandi ntabwo bisaba ko cyo kigendera mu muhanda munini cyane, ahantu hose motomodoka irahagenda.

Gare ni ahantu imodoka zihagarara n'abantu baba bari bategereje imodoka zibatwara ndetse abantu bafite ingendo bagenda muri gare bakajya gutegereza ibinyabiziga bibatwara nk'imodoka. Imodoka zaza rero zigasanga abantu bakatishije bakinjira zigakomeza urugendo.

Ihonda ni'ikinyabiziga gitwara abantu mu muhanda, usanga amahonda atwara ahantu hatandukanye ku muhanda haba hari urujya n'uruza rw'abantu benshi baje kugendera kuri moto, baje kugendera ku ihonda. Honda rero itanga amafaranga ahagije ku bayikoresha.

Indege ni nziza cyane, ni igikoresho gitwara abantu kibavana hamwe kibajyana ahandi, rero abantu bakunda kugendera mu ndege, kugira ngo barebe uko igenda, indege ni nziza cyane ku kibuga cy'indege haba hari urujya n'uruza rw'abantu benshi, abashaka kugenda mu ndege ndetse n'abayitwara.

Indege ni ikinyabiziga gitwara abantu n'ibintu, kigatwarira mu kirere, indege abantu benshi barayikunda, kuko baba bifuza kureba uko iguruka. Ku kibuga cy'indege uhasanga urujya n'uruza rw'abantu baje kureba uko indege ihaguruka, igenda, cyane cyane indege y'u Rwanda, iyo ihagurutse igiye nko mu mahanga usanga...

Imodoka ni ikinyabiziga gitwara abantu n’ibintu cyane. Imodoka nini zikunda kuba mu muhanda, zije gutwara abantu, zibavana hamwe, zibajyana ahandi. Usanga rero abantu bahagaze muri gare, barindiriye ku murongo, bitewe n’aho bari bwerekeze, ndetse n’imodoka zikaza zije gutwara abantu.

Imodoka ni ikinyabiziga gitwara abantu n'ibintu, imodoka rero, ifasha kwihutisha ku muhanda, uhasanga urujya n'uruza rw'abantu baje gutega ndetse n'abaje gutwara abantu.

Muri gare ni ahantu abaturage bafite ingendo bategererereza imodoka, bategereje gukatisha. Buri wesese atonze ku cyerekezo cy'aho ari bwerekeza. Imodoka zaza zigasanga abantu bahari bakajyamo bakagenda. Imodoka rero zitanga amafaranga, kandi ni n'ubutwazi bw'abantu.

Ihonda ni ikinyabiziga gitwara abantu, kibavana hamwe, kibajyana ahandi, kibatwara ku buryo bworoshye cyane, kuko ihonda igenda iri kwirukanka kurusha imodoka. Imodoka na zo zitwara abantu ku buryo bworoshye, zigatwara benshi icyarimwe, mu gihe moto itwara abantu babiri. Abantu bakunda kugenda kuri moto, kuko ari zo zihuta, n’imodoka zitwara abantu.

Gare ni ahantu imodoka ziparika zije gutwara abantu, imodoka ni ikinyabiziga gitwara n'ibintu, usanga rero muri gare hari urujya n'uruza rw'abantu benshi n'imodoka, imodoka zije gutwara abantu baje gutega.

Imodoka ni nziza cyane, zitwara abantu n'ibintu ku buryo bworoshye. Aho ushaka kuhagera, ukahagera vuba bitakugoye. Rero, imodoka usanga ziri muri gare, zitegereje abantu, ndetse n'abantu ugasanga muri gare baricaye, baha urujya n'uruza rw'abantu benshi baje gutwara, ndetse n'abaje kujya gutega imodoka.

Gare ni ahantu imodoka zihurira zikajya kuhategeza abantu, haba hari urujya n'uruza rw'abantu baje bafite ingendo zitandukanye, buri wese akatisha iyo ari bugendemo bitewe n'aho agiye. Haba hari imodoka nyinshi zaje gutwara abantu hari n'abantu benshi baje kugenda muri izo modoka bitewe n'urugendo bafite.

Motumodoka nikinyabiziga gitwara ibintu usanga, gikunzwe n'abantu benshi kubera ko ntabwo gikunda guhenda cyane, kandi ahantu hose kirahagenda muzira ntoya ntabwo kigombera umuhanda mu nini, ikinyabiziga rero cya motomodoka gifasha abantu benshi cyane.

Igare ni ikinyabiziga cyagenewe gutwara abantu n'ibintu, twifashisha igare tujya ahantu hamwe tuva ahandi, kugira ngo tubashe kugira vuba, imodoka nayo yifashishwa mu ngendo.

Ubwato ni ikinyabiziga cyagenewe gutwara abantu n'ibintu binyuze mu mazi, rero usanga ubwato buri ku cyambu butegereje abantu, ku cyambu haba urujya n'uruza rw'abantu n'ibintu, baje gutega bajyava ahantu hamwe, baca inzira zo mu mazi rero zirihuta hakoreshejwe ubwato.

Imodoka ni ikinyabiziga cyagenewe gutwara abantu n'ibintu, imodoka zagenewe gutwara ibintu rero, usanga zipakira zigaheraheza ku buryo kugenda ubona iri kugenda nk'umuntu neza iri kugenda gahoro gahoro. Inyuma haba hari abantu, hagira icyo bakenera gusohoramo bakagikuramo.

Ibinyabiziga ni ibikoresho bitwara abantu n'ibintu, aho usanga imodoka zitwara abantu zikaborohereza urugendo bagatanga amafaranga, abantu bakajya mu modoka bakagenda ku buryo bworoshye, haba hari urujya rw'abantu, abaje kugenda mu modoka bagiye ahantu hatandukanye.

Imodoka ni ikinyabiziga cyifashishwa mu gutwara abantu n'ibintu, imodoka rero zikundwa n'abantu benshi, usanga aho zakoze hagendeka vuba mu gutwara ibintu, zitwara ibintu byinshi mu gihe gitoya ndetse no mu gutwara abantu zikabageza aho bashaka kugera mu gihe gitoya, rero imodoka zinjiza n'amafaranga.

Igicuguti ni ikinyabiziga gikozwe mu biti gikunda gutwara imizigo kiyikura ahantu hamwe kiyijyana ahandi. Abantu bagikoresha baba ari abanyegufu nta muntu wasunika igicuguti atari umunyangufu, baba bafite imbaraga cyane kuko bashyiraho n'imizigo iremerewe , ukabona bari kugenda bikuye bakuyemo imyenda.

Imeri n'ikinyabiziga kigendera mu mazi cyangwa se ubwato bunini buba busakaye bugendera mu mazi butwara abantu n'ibintu, imeri rero ni nziza cyane kuko itwara abantu ku buryo bworoshye kandi abantu bakagenda bafite umutekano nta kibazo cy'uko imvura ishobora kugwa bukuzura bakaba barohaga.

Imodoka ni nziza cyane, zidufasha mu gutwara abantu, kandi bituma abantu bagera iyo bashaka kugera byihuse. Imodoka rero turazikunda, kuko zitanga imisoro ku gihugu, kandi zigafasha abantu kugera aho bashaka kugera vuba.

Imodoka turazikunda ni nziza cyane tuzifashisha, iyo tugiye mu ngendo za hantu ha kure twumva nta mbaraga dufite, ariko umuntu ari kugenda yicaye mu modoka yumva amerewe neza akagenda nta kuvunika noneho kandi akagera iyo agiye vuba, imisoro igatangwa bigateza igihugu imbere.

Imodoka n'ikinyabiziga cyifashishwa mu gutwara abantu n'ibintu kibatwara mu buryo bworoshye, aho usanga ibintu bigera aho bikwiye kugera mu gihe gito, n'abantu bakagera aho bagomba kugera mu gihe gito, imodoka mu muhanda rero zigenda zihuta zidahagarara, usanga hari urujya n'uruza rw'abantu baje bitewe n'ingendo bafite.

Imikino cyangwa se imyidagaduro ni imikino ikorwa n'ingeri zitandukanye, cyane cyane abakiri batoya bashaka kwishimisha, bakorera n'amafaranga iyo bakina, ikipe imwe ikina n'iyinindi. baba bambaye imyenda isa bose iriho nimero zibaranga, buri wese na nimero akinaho.

Siporo ni nziza cyane ikunda gukorwa n'abantudi benshi batandukanye kandi b'ingerezi zose. Rero amagarare ya siporo ni meza, akundwa n' abantu b' abasiporutifu, bakunda gukora siporo.

Umupira w'intoki ni mwiza cyane, abantu bakunda kuwukina barenza baherezanya, ku kibuga rero aho bakinira umupira haba hari urujya n'uruza rw'abantu benshi, abaje gukina n'abaje kureba.

Imipira ni myiza cyane, abantu bakina imipira itandukanye, imipira y'intoki nko gusama, yaba ari iyo gutereramo, iyo mipira ni myiza cyane, abantu bayikina bakunda kubona ibikombe.......

Siporo ni nziza cyane yinjiza amafaranga mu gihugu atanga imisoro, kandi siporo igirira umumaro abantu bayikunda, cyane cyane nk'abantu bakunda kwiruka muri siporo, abo bantu bagira ubuzima bwiza. Abantu bajya bakunda siporo, abo bantu ni beza cyane baba bafite intege zinanutse.

Imikino n'imyidagaduro ni igikorwa gikundwa n'abantu benshi bakunda kwidagadura, aho usanga abakinnyi bambaye imyenda ihuye na nimero zitandukanye buri wese kuri numero ye, bakajya ku kibuga gukina cyane nk'iyo bakina umupira w'amaboko, uba ubona bose biteguye ko umupira ugiye kubageraho. Ku kibuga rero cyangwa se aho bakinira, haba hari abantu benshi baje kureraba umupira n'abaje gukina.

Ikibuga ni ahantu hakinirwa, hakorerwa imikino itandukanye yaba imipira y'amaboko cyangwa se imipira y'amaguru. Hkundwa kugendwa n'abantu benshi urujya n'uruza rw'abantu baje gukina n'abaje kureba imikino.

Imikino ni myiza cyane abantu barayikunda, aho usanga abana bakina gufora, gufora agakubita nk'ikintu yatsinda cyangwa cyagwa aho yari agamije akaba yatsinze, imikino rero abana barayikunda kuko itanga amafaranga, hakaba hari urujya n'uruza rw'abantu baje kureba imikino n'abaje gukina.

Imikino ni myiza cyane, irakundwa cyane. Umupira w'amaboko uba mwiza cyane ku bantu bawukina bakubita ibiro barenza umugozi wo gukiniraho, wo gutsindiraho biba ari byiza cyane. Iyo bari ku kibuga cyangwa se umuntu yagiye ku kibuga areba ukuntu abakinnyi bitwaye ku kibuga, aba abona ari byiza cyane.

Imikino n'imyidagaduro ni igikorwa cyo gukora imyidagaduro, imikino ngororangingo, kwiruka cyangwa se gukina umupira w'amaboko, uwamaguru, ubona abantu bakina imyidagaduro rero bambaye neza imyenda y'imyidagaduro, bari ku kibuga aho bakinira. Ku kibuga haba hari urujyanuruza rw'abantu benshi baje gukina n'abajye kureba umupira.

Imikino ni myiza cyane abantu benshi barayikunda, cyane iyo umuntu yambaye umwenda w'imikino abantu bambaye imyenda isa ubona bagaragara neza, bakina imikino itandukanye mugufora imibare, hari nimero ya mbere nimero ya kabiri ubona ari byiza cyane, ubona bishimishije. Abantu bakunda imikino baba bameze neza bafite n'ubuzima bwiza.

Imikino cyangwa se imyidagaduro, ni igikorwa cyiza cyane abantu bakunda, gukina no kwiruka, umupira, kunanura ingingo, ku kibuga cy'aho bakinira rero haba hari urujya n'uruza rw'abantu batandukanye, baje kureba imyidagaduro, baje kureba abatsinda n'abatsindwa, ndetse n'abakinnyi baba bahari.

Siporo, siporo ni nziza cyane abantu benshi barayikunda, gukina umupira amakipe akinira igihugu abantu barayakunda cyane, kujya kuri stade kureba umupira aho bakinira umupira biba ari byiza cyane, amaso yishimye abantu bakunze gusohokana n'inshuti zabo bagiye kureba umupira biba ari byiza cyane biryoheye amaso, siporo rero ni nziza cyane buri wese arayikunda.

Umukino mwiza cyane aho usanga imodoka zifashishwa mu mikino nko mu marushanwa, hari imodoka z'imyidagaduro abantu benshi barazikunda cyane. Usanga zifite amabara meza ajyanye n'imyidagaduro ugasanga ziri kugenda mu muhanda zitembera biba ari byiza cyane.

Imikino ni myiza cyane aho usanga abantu bakunda imyidagaduro mu kwiruka, gutembera bagenda ku bibuga byahariwe gukinirwamo imikino itandukanye biba ishimishije, ku kibuga ukahasanga urujya n'uruza rw'abantu bicaye mu myanya yagenewe kwicarwamo n'abaje kureba umupira.

Imyidagaduro cyangwa se imikino, ni igikorwa cyo kugorora ingingo bakina umupira w'amaguru cyangwa se w'amaboko. Kwiruka ku kibuga rero haba hari urujya nuruza bw'abantu batandukanye, baje kureba umupira ndetse n'abaje kuwukina. Imyidagaduro abantu benshi barayikunda.

Imikino ni myiza cyane , aho usanga abakinnyi bahagaze neza bambaye iniforume, bafite nimero zibaranga, buri wese ku mwanya we noneho bakajya ku kibuga cy'aho imikino iri bubere bagahererekanya imyanya bagasuhuzanya, aho usanga hari urujya n'uruza rw'abantu baje kureba imikino ndetse n'abaje gukina iyo mikino.

Imikino ni myiza cyane abantu barayikunda. Abantu bakunda imikino bakunze kuba bateye neza kuko baba barakoze umubiri barakoze ingingo, rero abantu hakora siporo...

Gukora siporo ni byiza cyane, abantu benshi bakunda gukora siporo, barambura intege, abandi bagakunda siporo kugira ngo bagabanye umubyibuho, mbese siporo ikundwa n'abantu benshi. Abantu benshi bakunda siporo, usanga abagabo bafite ubuzima bwiza cyane.

Imikino ni myiza cyane. Abantu bakunda kwidagadura mu bihe bitandukanye. Usanga ku kibuga cy’imyidagaduro, cyangwa se ahabera imikino, hari urujya n’uruza rw’abantu babaje gukina n’abaje kureba imikino. Imikino ni myiza cyane.

Imikino ni myiza cyane irashimisha, aho usanga abantu benshi batandukanye bicaye mu myanya ku kibuga, aho bitegereza bareba ukuntu umukino uri kugenda, biba ari ibyishimo cyane.

Igikorwa cyo gukora siporo ni cyiza cyane abantu bakunda kujya muri siporo usanga bafite ubuzima bwiza cyane. Nanjye nkunda siporo iyo nayigiyemo numva mfite ubuzima bwiza ndakangurira bagenzi banjye badakunda siporo ngo bayikunde kuko ituma mu mutwe hafunguka ukumva n'umunaniro umuntu aba afite urarangiye.

Imikino ni myiza cyane aho usanga abantu batandukanye, baje ku kibuga gukina imikino itandukanye, imipira y'amaboko ndetse n'imipira y'amaguru usanga.

Siporo ni igikorwa gikunda gukorwa n'abantu b'ingeri zose , bashaka kunanura imitsi no gukuza imiyego minini n'imitoya, abantu bakunda siporo rero usanga abantu bameze neza cyane.

Ikibuga cy'umupira w'intoki ni ahantu bakinira umupira w'intoki, bakagenda barenza umugozi uba utandukanyije ikipe imwe n'iyindi umupira w'intoki rero abantu barawukunda, utuma abantu bishima ku kibuga uhasanga urujya n'uruza rw'abantu abakinnyi n'abaje kureba umupira.

Ikibuga ni ahantu hakorerwa imyidagaduro n'imikino itandukanye, ku kibuga hahora urujya n'uruza rw'abantu benshi abaje gukina, n'abaje kureba imyidagaduro abantu bakunda imyidagaduro rero...

Umupira w'intoki ni mwiza cyane, abantu bakunda kuwukina barenza ifire, ugasanga bari gushyiramo ibitego, ku kibuga cy'umupira rero w'intoki, haba hari urujyanuruza rw'abantu benshi, baje kureba umupira ndetse n'abaje gukina.

Vole ni umupira bakinisha intoki, ni umupira abantu bakunda kuwukina bawukinisha intoki bateramo ibitego, umupira abantu barabakunda cyane, kuko utuma bumva bishimye ndetse barakina bagera kure, bakaba babasha no gucyura igikombe.

Imyidagaduro ni igikorwa gikorwa n' abana bakunda imikino no kunanura ingingo aho usanga ku kibuga gikorerwaho imyidagaduro abantu barimo kwiruka cyangwa se gukina umupira haba haje urujya n'uruza rw'abantu baje kureba imyidagaduro ugasanga n'imbabare kwiruka baje kureba uwa mbere n'uwa nyuma inzego z'umutekano nazo ziba ziri hafi

Imikino n'imyidagaduro ni igikorwa gikundwa n'abantu bakunda kwidagadura, aho usanga habaye nk'amarushanwa y'abana batwara amagare, y'abantu biruka, y'abakina umupira, ariko nk'abantu biruka n'abatwara amagare, abatwara amagare baba bambaye ibikasike mu mutwe, ukabona bagenda bambaye utwenda tubafashe, no ku magare y'imyidagaduro birukanka cyane.

Imikino ni myiza cyane idufasha mu kunanura ingingo zacu. Abantu bakunda imikino cyane cyane kuyireba aba ari byiza cyane umuntu ari ku kibuga cy'umupira cyangwa aho imyidagaduro ibera biba bishimishije binogeye amaso. Abantu benshi barayikunda, imikino itandukanye mu gukina umupira no kwiruka kunyuranye.

Ikibuga ni ahantu hakorerwa imikino n'imyidagaduro, ku kibuga hahora urujya n'uruza rw'abantu benshi baje mu myidagaduro hagamijwe kwishimisha, ndetse no kugorora ingingo.

Imikino ni myiza cyane abantu barayikunda usanga, abantu bakunda imikino n'imyidagaduro bafite ubuzima bwiza kandi bakunda kubona amafaranga y'ikipe imwe ikinnya n'indi ikabasha gutsinda, bitanga amafaranga ku kibuga basanga urujya n'uruza rw'abantu baje gukina ndetse n'abaje kureba imikino.

Siporo ni nziza cyane ku mubiri wacu, ndayikunda cyane kuko iyo umuntu akoze siporo yumva intege zinanutse. Abantu benshi bakunda siporo, bagakunda kuyikora bagira ubuzima bwiza ntabwo wajya ugira umubiri umeze nabi kandi ukora siporo, iyo ukora siporo ubwonko bukora neza nta siteresi ugira.

Imihanda cyangwa se imiharuro ni utuyira two mu giturage, mu midugudu usanga abana banyuramo bava mu rugo rumwe bajya mu rundi, imiharuro rero cyangwa se imigenderano usanga ihari isa neza, ikubuye mbese ubona hameze neza, ahateye uturabo ubona ko ari utuyira tuvuye mu rugo tuva mu rundi.

Umudugudu ni ahantu hatuwe n'abantu benshi habamo utuyira twinshi, tunyuramo abantu bajya gusurana. Abantu bajya rero mu midugudu bagenda banyura muri utwo tuyira tuba tugiye tunyuranyuranamo tunyuyuranye mu midugudu.

Umuhanda ni inzira yagenewe kunyuramo ibinyabiziga bitandukanye bitwara abantu, ndetse n'utuyira dutoya twagenewe kunyuramo abantu. Abantu banyura ku ruhande, imodoka zikanyura mu muhanda mugari, kandi buri wese akagenda mu buryo bwe.

Ku mudugudu ni ahantu haba hubatse inyubako nyinshi, amazu menshi atuyemo n’imiryango itandukanye. Haba harimo utuyira twinshi two kunyuramo abantu bajya ku ngo zabo, kandi haba hari urujya n’uruza rw’abana n’abakuru bakinira mu mudugudu.

Umudugudu n'ahantu haba hari utuyira twinshi two mu mudugudu dutandukanye, tugiyemo ngo, tugiye ku mashuri agaragara mu mudugudu, mbese utuyira tugiye ahantu hatandukanye, uduhanda ndetse n'uduharuro haba ari heza cyane rero ku mudugudu ubona ahashimishije.

Uduhanda dutoya ni utuyira tuba tuvuye mu midugudu tugana ku mihanda, abaturage bakunda kunyura mutuyira dutoya bajya ku mihanda cyangwa iyo bavuye ku muhanda bari kujya mu rugo; bakunda kunyura mu tuyira dutoya tuba twegeranye n' imihanda abantu bakunda kunyura muri utwo tuyira tuba ari dutoya.

Umudugudu n'ahantu haba hatubona abana benshi batandukanye bahuje imiryango, kandi umudugudu haba hagaragaramo amashuri n'ibikorwa remezo, utuyira n'uduhanda, imihanda ijya ahantu hatandukanye, n'uduhanda tuva mu ngo tujye ahantu hatandukanye.